Iyo umuntu yambaye ga agafata ku gihingwa, nta bwo kimwanduza. Iyo ufashe ga ukayifata n'igihingwa, igihingwa nta bwo gikomereka, kuko ga zituma kinyerera, aho ufashe hanyerera, bigatuma udacyangiza ukagitera, kigatanga umusaruro mwiza ufatika.

Gutera umuti ni byiza bituma igihingwa cyera neza. Iyo wateye umuti inyanya, intoryi, birakura bigakura neza bigasagurira amasoko. Iyo inyanya zipfuye, intoryi iyo zipfuye urahomba. Ariko iyo wateye umuti usagurira amasoko, abana bawe bakabaho neza bakaniga neza.

Gucucira ukoresheje icyuma ni byiza cyane, iyo uri gucucira ukoresheje ibyuma bituma igihingwa cyose kibona amazi. Umuntu ucucira bamuha amafaranga agateza imbere umuryango we, ibihingwa biba neza, bigatuma bitanga umusaruro mwinshi.

Gutera imiti wipfutse hose ni byiza, birinda indwara. Iyo uteye imiti imyaka imyaka yera neza. Abakozi batera imiti babona amafaranga, bagateza imbere igihugu cyabo, nabo bagatera imbere n'imiryango, bakaba amafaranga bakishyurira abana babo amashuri.

Amafi ni meza araryoha cyane iyo wariye amafi ugira ubuzima bwiza ugateza imbere Igihugu. Abarobyi bamafi babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo bagateza n'Igihugu imbere, bagatanga n'imisoro ku nyungu bigatuma leta ibona amafaranga.

Amafi ni meza cyane araryoha, iyo uriye amafi ukayarya wayatetse neza wumva aryoshye, umwana wariye amafi agira ubuzima bwiza n'umuntu mukuru wariye amafi akagira ubuzima bwiza, agateza imbere igihugu agatekereza neza kandi agatekereza cyane.

Amafi araryoha iyo wayatetse neza, urayarya ukumva urishimye, ukagira ubuzima bwiza, ukagira ubwenge, aho abaroba amafi, babona amafaranga, bagateza imbere igihugu bagatanga imisoro no ku gihugu, ndetse kigatera imbere.

Ifi ni nziza, iyo ifi yokeje iba imeze neza cyane. Ifi iyo uri kuyirisha imbuto, ubona ari byiza cyane, ukagira ubuzima bwiza, ukagira amahoro mu mutima, kubera wariye neza, n'igihugu cyawe kigatera imbere kubera gifite umuntu wo gutekereza.

Uburobyi ni bwiza iyo uroba ukoresheje uburyo bwa gakondo, ni byiza cyane. Kuko bituma amafi atangirika ukaroba amafi manini meza kandi yemewe. Abaroba amafi babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo.

Amafi ni meza, amafi aryoha iyo uriye amafi wumva wishimye unezerewe, ugira ubuzima bwiza, abarobyi baroba amafi babona amafaranga bagateza imbere igihugu cyabo, abana b'abarobyi babona amafaranga bakajya kwiga bakagira ubuzima bwiza.

Amafi ni meza, amafi araryoha. Iyo uriye amafi ugira ubuzima bwiza, abantu baroba amafi babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo. Amafaranga bayasorera muri Leta. Leta ikubaka ibiraro, ikubaka imihanda, Igihugu cyacu kigatera imbere.

Imisozi, n'ibirunga, n'amazi, n'ibiyaga, ni byiza. Iyo utuye hagati y'ibiyaga wumva ari byiza cyane, kuko umuyaga uturutse mu kiyaga n'ubushyuhe biturutse mu kiyaga, bikugeraho, ukumva birakunejeje cyane, iyo ukeneye amazi ujya kuvoma mu kiyaga, ugateka ukarya, ukabaho neza.

Ubwato ni bwiza budufasha kubugenderaho, bukadufasha kwambukiranya amazi, bikadufasha gutwaraho imizigo tukagira ubuzima bwiza tukoroherwa tukanajya gusura ahantu hakoreshwa n'amazi tukagendera ku bwato.

Igitoki ni cyiza. Igito kivamo imeke kivamo umutobe. Igitoki barakirya bagasagurira amasoko, inka zikabona ubwatsi haboneka n'ifumbire bakayihingisha indi myaka.

Uru ruzitiro ruzitijwe imihati ni rwiza, iyo mundani harimo avoka biba ari byiza cyane, avoka urayirya, iyo wazitije imihati bituma nta mujura upfa kwinjiramo uko abonye uko ari kose bigatuma ubusitani bwawe bumera neza.

Imboga ni nziza, imboga ziraryoha cyane, iyo uririye imboga wumva wishimye cyane, ukagira ubuzima bwiza, ugakura neza, umwana uriye imboga agira ubuzima bwiza, agakura mu gihagararo no mu bwenge, aba afite ubuzima bwiza cyane, bikarinda indwara bigatuma akura .

Ibirayi ni byiza, iyo ibirayi ubiteye ibirayi birera ugakura ibirayi ugasagurira amasoko, ugateza imbere aho utuye n'igihugu cyawe, iyo umuhinzi ahinze ibirayi abona amafaranga akigisha abana be, ahantu he......

Ubwatsi ni bwiza, iyo wahinze ubwatsi biba ari byiza cyane, inka zawe cyangwa amatungo magufi bibona ubwatsi, bigatuma amatungo abaho neza, intama zibaho neza, n'inka zikabaho neza, amahene akabaho neza, ugateza imbere igihugu.

Imishingiriro ni myiza, iyo imimishingiriro uyishishingirije ibishyimbo, ibishyimbo byera neza, bigatanga umusaruro, abana bakabaho neza, ukajyana ku masoko, amasoko agatanga imisoro, igihugu cyacu kigatera imbere.

Intoki n'ibidodoki ni byiza, iyo uteye urutoki ukakikizaho ibidodoki, iyo ushaka kurya ibidodoki, uragenda ukabisara ukabirya, ibidodoki biraryoha iyo uriye n'imboga z'ibidodoki, wumva wishimye unezerewe cyane.

Urubingo inka zirarurya, urubingo rutanga ifumbire , bamara kubona ifumbire bagahinga ibirayi, ibirayi bakabijyana ku isoko, urubingo bakarujyana mu nganda bakagirati bakavanamo ubundi bwatsi butandukanye, urubingo ni ingirakamaro cyane biradufasha mu buzima bwa....

Ibiti by'amatunda ni byiza, iyo ikinyomoro gifumbiye neza, kirera kigatanga umusaruro hakava ibinyomoro, abantu baguze ibinyomoro bakagira ubuzima bwiza, abahinzi bahinga ibinyomoro babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo.

Umurima uhinze ni mwiza, iyo umurima uwuhinze, ugateramo ibirayi, cyangwa ibishyimbo, cyangwa ibigori, biba byiza cyane, kuko ubona umusaruro ugateza imbere igihugu cyawe, umuryango wawe nawo ugate imbere.

Urubingo ni rwiza， iyo urubingo ruteye mu murima utewemo n'ibitoki，biba byiza cyane， iyo ufite inka ukajya kurwahirira inka， ugaca n’ igitoki，ukajyanira inka umutumba，biba byiza cyane， kuko inka irarya ikishima， ukabona nk'amata，bikaba umusaruro mwinshi.

Urutoki ni rwiza iyo uhinze urutoki biba byiza cyane ukarukikiza uruzitiro bituma iyo n'igitoki keze kigira umutekano, kandi umuntu uriye igitoki araryoherwa akumva arishimye cyane, insina uzigaburira inka amakoma bakayagaburira ihene.

Ibihaza biteye mu murima n'uruyuzi biba ari byiza cyane iyo uri kubireba wumva unezerewe igihaza kivura diyabete, kikavura n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye abantu bashaka kurya igihaza bagira ubuzima bwiza, bakanezererwa bakumva baratekanye abacuruzi bacuruza ibihaza batanga n'imisoro.

Ibidodoke ni byiza, iyo ikidodoki ukiriye ukagitekana n'ibirayi biba ari byiza cyane, biryoshe cyane, ikidodoki kirinda indwara, iyo ukigaburiye umwana, umwana akura neza, akagira ubuzima bwiza, agateza imbere igihugu cye n'umuryango we ugatera imbere.

Umurima urimo ibikenyeri, bikenyeri barabicana, bikavamo ifumbire, ifumbire igafasha ibihingwa kwera, ibihingwa bikera neza, tukabona umusaruro tujyana ku masoko, abantu bakabaho neza, igihugu cyacu kigatera imbere.

Ibishyimbo n'ibitunguru ni byiza, iyo uteye ibitunguru ugashyiramo n'ibishyimbo biba byiza cyane, kuko ibitunguru birera n'ibishyimbo bikera, bigatuma umuryango ubona ibyo kurya, ibitunguru ugasagurira amasoko, bikavamo imiti, bigateza imbere igihugu n'abagitu...

Kwahira ibyatsi ni byiza ,iyo wahiye ibyatsi ubona ari byiza. Umuravumba iyo uri mu murima ukarwara nk'umutwe, ujya kuwuca ,ukivuza ,ugakira ,ukagira ubuzima bwiza ,kubera ko umuravumba ari umuti ukomeye cyane, kandi ufataye runini igihugu.

Igare rifasha kwikorera amazi, kwikorera imizigo, umunyonzi unyonga igare abaho neza, ubuzima bukagenda neza akishyurira abana amashuri, abana be bakajya kwiga bakabaho neza, ubuzima bugakomeza nta kibazo.

Imbuto ni nziza, iyo uriye imbuto ugira ubuzima bwiza. Abacuruzi bacuruza imbuto babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu cyacu kigatere imbere, abana babo bakiga neza bakiga ahantu heza, bigatuma bagira ubumenyi bwinshi, bagateza imbere imiryango n'igihugu.

Ibireti ni byiza, iyo ibireti ubiteye ukabihinga neza, birera bigatanga umusaruro ukagemura mu mahanga ukabona amafaranga ukabona amadovize. Ibireti babikoramo imiti, ibireti abahinzi babihinga babona amafaranga menshi, bagateza imbere imiryango yabo.

Imyumbati ni nziza iyo uriye imyumbati wumva ufite imbaraga, ukagira ubuzima bwiza, abacuruzi bacuruza imyumbati babona amafaranga, iyo umwana ariye umwumbati agira imbaraga, agakora akazi neza. N'iyo umuntu mukuru ariye imbyumbati, agira imbaraga agakora akazi neza.

Amapera ni meza, amapera araryoha, iyo uriye amapera ugira ubuzima bwiza, atuma mu nda hakora neza, abantu bahinze amapera babona amafaranga, iyo bayajyanye mu isoko, amapera abacuruzi barayasorera, igihugu cyacu kigatera imbere, kikabona imisoro.

Itoryi ni ikiriribwa cyiza cyubaka umubiri, kirinda indwara. Uwariye intoryi agira ubuzima bwiza, atekereza neza. Abacuruzi bacuruza intori babaho neza, bakishyurira abana babo minerivari, bagateza imbere igihugu, bagatanga n'imisoro.

Icyayi ni igihingwa gihingwa mu Rwanda n'ibindi bihugu. Icyayi gitera imbaraga, icyayi kirinda indwara. Unyoye icyayi ugira ubuzima bwiza. Abahinzi bahinga icyayi bakabona amafaranga, bagateza imiryango yabo imbere, bagateza aho batuye imbere, n'Igihugu kigatera imbere.

Avoka ni nziza iyo avoka uyirishije ibiryo wumva ari byiza cyane, biryoshye cyane. Iyo wariye avoka ugira ubuzima bwiza, ugateza imbere umuryango wawe. Avoka, abucuruzi bacuruza avoka babona amafaranga, bagatanga imisoro kuri Leta. Leta ikubaka ibikorwa remezo bitandukanye.

Inka ni nziza, iyo uragiye inka wumva unezerewe, iyo inka uri kuyikama wumva wishimye cyane, aborozi borora inka babona amafaranga bagateza imbere igihugu n'umuryango wabo ugatera imbere. Ndetse n'abaturanyi bakabona amata ukayabagurisha.

Ihene ni nziza, ihene zitanga amafaranga, iyo woroye ihene, urayibaga ukabona inyama, abana bawe bakarya bakabaho neza, ukagira ubuzima bwiza, mugasagurira n'amasoko. Iyo woroye ihene, ubona ifumbire ugatera ibirayi n'ibishyimbo, bikera neza cyane.

Ibirayi ni igihingwa cyiza, abahinzi b'ibirayi babaho neza, bagasagurira amasoko igihugu cyacu kigatera imbere bakabona imisoro. Abana b'abahinzi bakiga neza bakagira ubuzima bwiza, aho batuye bakahateza imbere bagateza imbere n'igihugu.

Amashu ni meza, amashu iyo uyariye ukayateka mu burayi wumva ari byiza cyane, iyo umuhinzi ahinze amashu abona amafaranga agasagurira amasoko, amafaranga abonye akuye mu kugurisha amashu akishyurira abana be amashuri, amashu atanga ifumbire bigatuma uhinga ibihingwa bikera neza cyane.

Ibisheke ni byiza, iyo ubishyize ku muhanda ukabicuruza ubona amafaranga. Umuntu uriye igisheke agira ubuzima bwiza, igihugu cyacu kigatera imbere, bikagabanya abantu bafite uburwayi buturuka mu kurya isukari yo mu nganda.

Abasaruzi basarura umuceri ni beza, iyo bawusaruye neza bawujyana mu nganda bakawutunganya, bakawurya, bagasagurira n'amasoko, igihugu cyacu kigatera imbere, kikamenyekana no mu mahanga ku isi hose, iyo twasaguriye amahanga.

Intoryi ni nziza, intoki ziraryoha, iyo uzitekanye ibirayi n'ibishyimbo wumva ari byiza cyane, abantu bahinga intoryi babona amafaranga bagateza imbere igihugu cyabo, igihugu cyacu kigatera imbere, abantu benshi bakagira ubuzima bwiza bagateza imiryango yabo imbere.

Abahinzi ni beza, abahinzi babona amafaranga bagateza imbere igihugu cyabo, bagatera ibihingwa, Ibihingwa bikera, basagurira amasoko, abantu bose bakabaho neza, umuhinzi uhingisha isuka, abona amafaranga akagaburira umuryango, umuryango we ukabaho neza.

Ibitunguru bya onyo ni byiza iyo bikarangishije ibiryo, abahinzi bahinga ibitunguru bya onyo babona amafaranga bagateza imiryango yabo imbere, abacuruzi bacuruza ibitunguru batanga imisoro kuri leta, bakigisha abana babo.

Avoka ni nziza iraryo cyane, iyo uriye avoka ukayirisha ibiryo wumva ari nziza , iyo avoka ikiri ku giti urayireba ukabona ari byiza cyane bishimishije , avoka zikiza uburwayi bwinshi butandukanye, iyo avoka uyifashe ukayikoramo umuti ivura abantu benshi batandukanye.

Umuceri ni mwiza, turawuhinga tugateza imbere igihugu cyacu tugateza imbere aho dutuye, abana bacu bakajya ku mashuri bakiga neza bakabona amafaranga yo kuriha ku ishuri, abahinzi bahinga imiceri babona amafaranga yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi.

Ihene nziza ihene zorowe kijyambere ni nziza, zitanga amafaranga nk'abantu bororaye ihene, bakabona inyama bakagira ubuzima bwiza, ihene nyinshi nk'imfizi, zibangurira izindi hene, imfizi zigatanga amafaranga, nk'abantu boroye ihene, babona amafaranga menshi, bagateza imbere igihugu cyabo.

Injugu ni nziza, zitera imbaraga, abantu barazikunda, bakazirya, bakagira ubuzima bwiza, bakagira imbaraga, ubuzima bukagenda neza. Abacuruzi bacuruza njugu batanga imisoro ku gihugu, igihugu kigatera imbere.

Ibigori bivamo ubwatsi bw'inka, inka zigakura neza zikabaho neza, hasaguka ifumbire, ifumbire tukayikoresha, turi guhinga ibirayi, tugahinga n'imijumba, tugahinga n'ibishyimbo, ubuzima bukaba buri gukomeza, tukabona ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga.

Ibijumba ni byiza iyo wariye ikijumba wumva ufite imbaraga, ukumva umeze neza utekanye, ibijumba bitera imbaraga. Abahinzi bahinga ibijumba babona amafaranga bakishyurira abana amafaranga y'ishuri , abacuruzi bacuruza ibijumba bakabona amafaranga bagatanga n'imisoro.

ibishyimbo ni byiza, iyo ibishyimbo ubyanitse, ukabihura, biba ari byiza cyane. kuko iyo ubihuye utabitonoye biba ari byiza, urahura byose bikavamo, ibishyimbo biraryoha cyane, iyo ubivanze n'ibirayi n'ibihungure, urabirya ukumva ugize ubuzima bwiza, ukumva uranezerewe cyane.

Icyayi ni cyiza. Abahinzi bahinga icyayi babona amafaranga. Iyo icyayi bagihinze, ba mukerarugendo baza kukigura bakakijyana mu nganda zabo, bigateza imbere igihugu. Bakadusigira amadovize bigatuma abahinzi bahinga icyayi babona amafaranga menshi.

Imineke ni myiza, imineke itera imbaraga, umuntu wariye imineke yumva afite imbaraga akagira ubwenge, imineke itanga isukari mu mubiri, umuntu akagira ubuzima bwiza, agateza igihugu cye imbere, aho umuturage atera imbere, n'abaturageranyi bagatera imbere, kubera bari kubona amafaranga aturutse mu bucuruzi bw'imineke.

Iyo ufashe igihingwa ukagishira mu nzu ukacyubakira ahantu habugenewe, gikura neza, kikagira ubuzima bwiza. Iyo uri kugisarura ukuramo umusaruro mwinshi uhagije, kandi umusaruro ufatika uteza imbere...

Imbuto zituma tugira ubuzima bwiza tugakura neza tukabaho neza, imbuto ziturinda indwara abantu bacuruza imbuto bakabona amafaranga, bagateza imbere igihugu n'umuryango ugatera imbere.

Ibigori ni byiza iyo uriye ibigori wumva unezerewe cyane, umuntu wese wariye ikigori agira ubuzima bwiza, agakomera agakora akazi ke ameze neza kandi atekanye. Iyo ibigori ubibetesheje ubona ifu y'akawunga ukabona n'ifu y'igikoma abana bawe bakabaho.

Ibirayi ni byiza, iyo uhinga ibirayi birera ukabona amafaranga yo kwishyurira abana ku ishuri, ukabona ibyo gutunga umuryango, umuryango ukabaho neza, igihugu cyacu kigatera imbere, abaturage benshi bakabona akazi bagakuye mu buhinzi bw'ibi...

Amashu ni meza abacuruzi bacuruza amashu babona amafaranga, bakabaho neza bakagira ubuzima bwiza, amashu araryoha iyo watekanye n'ibirayi ,ukayatekana n'agafiriti amashu aba ameze neza cyane iyo wariye amashu wumva wishimye utuje utekanye.

Igihaza ni ikiribwa cyiza igihaza, ndagikunda cyane, iyo ndiye igihaza numva ndyohewe cyane igihaza iyo ugitekanye n'ibishyimo biba byiza cyane bituma ugira ubuzima bwiza. Abacuruzi bacuruza ibihaza babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo n' igihugu cyacu kigatera imbere.

Voka ni nziza voka zivamo umuti zikavamo ibintu byinshi bitandukanye, iyo voka uzihinze ubona amafaranga ugateze imbere igihugu cyawe, ugateze imbere aho utuye. Umuntu wese wariye voka akayirisha ibiryo, agira ubuzima bwiza bikamurinda ni....

Inkoko zorowe neza zitanga umusaruro mwinshi ufatika, aborozi b'inkoko babona amagi, bakabona amafaranga, bakabaga inkoko bakabona inyama bagasagurira n'amasoko, bakagira ubuzima bwiza, bateza imbere igihugu n'aho batuye.

Avoka ni igihingwa cyiza, iyo umuntu yariye avoka agira ubuzima bwiza. Avoka zivamo umuti wo kuvura abantu. Abacuruzi bacuruza avoka babona amafaranga bagateza imbere igihugu, bakabona amafaranga bagatanga imisoro ya Leta.

Igihaza ni cyiza. Igihaza kiraryoha umuntu wakiriye agira ubuzima bwiza, bigatuma bimurinda indwara nyinshi zitandukanye. Abahinzi bahinga bihaza babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere n'Igihugu bagatanga n'imisoro kuri leta batuma abana biga.

Intoryi ni nziza, Intoryi baraziteka iyo watetse intoryi wumva unezerewe , ibiryo bitetsemo intoryi biba biryoshe cyane .iyo wariye intoryi ugira ubuzima bwiza, ugateza imbere igihugu cyawe, abahinzi bahinga intoryi babona amafaranga bagatanga imisoro kuri Leta.

Igihaza cyiza, iyo umuntu ariye igihaza agira ubuzima bwiza, igihaza kivura indwara. Abahinzi bahinga ibihaza babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu cyabo kigatera imbere, bigatuma abantu bakora umurimo w'ubuhinzi babona amafaranga menshi.

Avoka ni nziza iraryoha, iyo uriye avoka ukayirisha ibirayi n'ibishyimbo biraryoha cyane, avoka itera imbaraga, ikavura indwara nyinshi, ikavura amaso, umuntu wariye avoka agira ubuzima bwiza, agatera imbere agateza imbere n'igihugu.

Imyumbati ni myiza, iyo wariye imyumbati ugira ubuzima bwiza. iyo wariye amateke ukagira ubuzima bwiza. Abahinzi bahinga imyumbati babona amafaranga bagateza imbere igihugu cyabo, abana babo bakiga neza, bakagira ubuzima bwiza, bakabona n'amafaranga yo kubishyurira ku ishuri.

Umufuka ugiye gutwarwa n'igare, urutonde, amabuye turayakoresha, tuyubakisha amazu, ibirayi, ibirayi barabigurisha bakabona amafaranga ateza igihugu cyacu imbere, abantu bahinga ibirayi babona amafaranga, bakigisha abana ba bo.

Avoka iyo uyisatuye ukayirisha ibiryo biba ari byiza cyane, kuko avoka irinda uburwayi. Igakiza indwara nyinshi. Avoka iyo uri kuyirisha ibiryo wumva biryoshye cyane, ukagira ubuzima bwiza ukanezerwa. Abacuruzi bacuruza avoka babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo.

Ibigori ni byiza iyo ibigori ubifashe ukabyandika kurishitingi wabigize neza biba byiza cyane, kuko bita amazi bikuma bigatuma iyo ugiye kubibetesha bitanga umusaruro, bikavamo n'ifu neza ukaba wanabimarana igihe kirekire ubibitse.

Abahinzi b'ibigori ni beza, iyo wahinze ibigori ujya gushakamo ubwatsi ukagaburira amatungo yawe ukiteza imbere , abahinzi babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo , bateza imbere igihugu cyabo bikabavana mu nzara bigatuma badahura ni...

Imyumbati ni myiza, imyumbati turayirya iyo wariye imyumbati wumva unezerewe umeze neza, umwumbati utera imbaraga umuntu wese wariye umwumbati yumva yishimye afite ibibaraga, agakora neza akazi ke ameze neza kandi nta kibazo.

Ubuhinzi ni bwiza, ubuhinzi buteza imbere igihugu abahinzi bakabona amafaranga, bakishyurira abana minerivari bagateza imbere aho batuye bagatanga akazi, bagahinga ibihingwa inyamaswa zikarya zikororoka tukazibaga tukabona inyama tukabaho.

Ibigori byokeje mu ziko ni byiza, iyo ibigori byokeje wumva wishimye cyane, abantu botsa ibigori bari kubigurisha, babona amafaranga, bagatanga imisoro, bagateza imbere imiryango yabo, n'igihugu cyacu kigatera imbere abana bakigana hano.

Imbuto z'ibiribwa, ibinyomoro bitera imbaraga bikagarura amaraso mu mubiri, bigatuma umubiri ukomera ukagira ubuzima bwiza. Umucuruzi ucuruza imbuto nk'ibinyomoro abona amafaranga akishyurira abana amashuri, akabaho neza.

Ibirayi by'uruyange ni byiza. Ibirayi by' uruyange iyo uri kubireba wumva ari byiza. Ibirayi by'uruyange iyo biri kwizunguza bizana umwuka mwiza, tugahumeka, tukagira ubuzima bwiza. Abahinzi bahinga ibirayi, babona amafaranga bagateza imbere imiryango Yabo.

Intama ni nziza，intama zitanga umusaruro ufatika kandi uhagije. Iyo woroye intama， ubona amafaranga ugateze imbere umuryango wawe， ugateze imbere n'igihugu cyawe kuko wabonye amafaranga. Intama urayigurisha， iguha ifumbire ugateze imbere aho utuye n'igihugu cyawe.

Guhinga ibirayi ni byiza, bituma iyo ugiye nko kuburara ujya kubikura, cyangwa iyo ukeneye amafaranga ukajya gukura, abana bawe bakabaho neza. Ibirayi biraryoha cyane, umuntu wariye ikirayi agira ubuzima bwiza, kandi ibirayi nta bwo birambirana kubirya.

Ibigori ni byiza iyo uriye ibigori ugira ubuzima bwiza, ibigori biteza igihugu imbere, abacuruzi bacuruza ibigori babona amafaranga batanga imisoro ku gihugu bakishyurira abana babo minerivari igihugu cyacu kigatera imbere, abantu bose bakabona uburyo bw'imibereho b'ubuzima.

Ibigori biri guterera ni byiza. Iyo biri guterera ukajya gushakamo ubwatsi, ubona ubwatsi ugaha inka inka zikarya. Iyo ibigori biri guterera ukabitera umuti, birera neza bigakura bikaguha umusaruro mwinshi kandi ufatika.

Indabyo ni nziza, indabyo iyo uzifashe ukazishyira mu nzu cyangwa hanze wumva ari byiza cyane, iyo uzibonye wumva unezereywe, abacuruzi bacuruza indabyo babona amafaranga bagateza imbere igihugu cyabo, aho mutuye hagatera imbere, indabyo zituma umuntu ahumeka neza.

Igikoma cya mayizori kiraryoha cyane, mayizori ni nziza iyo uriye umusigati wa mayizori wumva ari mwiza, ukagira ubuzima bwiza ukagira imbaraga, iyo uriye amahundo ya mayizori wumva ari meza araryoha cyane.

Amajeri ni meza, amajeri iyo uyariye wumva unezerewe, iyo amajeri yeze, agatukura aba aryoshye cyane, iyo wayavanze n'ibirayi wumva aryoshye, abahinzi bahinga amajeri babona amafaranga, bakishyurira abana babo amafaranga y'ishuri.

Impungure ni nziza, impungure ziraryoha, iyo uriye impungure wazitekanye n'ibishyimbo wumva ari byiza, bitera imbaraga, ukagira ubuzima bwiza ugakomera, abahinzi bahinga impungure barazihinga bagatera imbere mu miryango yabo, n'igihugu kidateye imbere.

Ibigori bihingwa mu bishanga biba byiza bituma ibigori bibona amazi, iyo igishanga wahinze ibigori mu gishanga ibigori bikura neza bikagira amazi, imizi igashorera mu mazi bituma ubona umusaruro mwinshi kandi uhagije ugateza imbere igihugu.

Kugosora ni byiza bituma ibishyimbo bivamo ibicucu byari birimo. Iyo ugosoye ibishyimbo ubijyana ku isoko bimeze neza, n'iyo urabibika ubibika bikamara igihe kirekire bifite ubuziranenge bwose kubera wabigosoye.

Udufuka tuba ari twiza, iyo wafashe ibintu byawe ukabishyira mu gafuka ukabitereka ku gatanda, bihumeka neza kuko munsi haba hari kunyuramo umwuka. Iyo iyo mifuka yagiyemo amazi, amazi agenda amanuka bigatuma bigira umutekano, bikagira n' ubuzima bwiza.

Agatebo ni keza agatebo urakifashisha urigushiramo imyaka. Imyaka iyo uyitwaye mu gatebo igerayo itari gushongonokamo amazi, amazi yose yanyuze mu gatebo agasohoka hasi, bigatuma umusaruro ugenda neza ukawubika neza.

Ubunyobwa n'ibishyimbo n'amashaza n'amajeri, biraryoha cyane. Iyo uriye ibishyimbo wumva biryohereye ukagira imbaraga, ukagira ubuzima bwiza. Iyo umuntu yariye ibishyimbo aba ameze nk'uwariye inyama. Ateza imbere umuryango we agatekereza neza, n'Igihugu cyacu kigatera imbere.

Ibigori bya mayizori ni byiza, iyo ukiriye wumva unezerewe kandi utekanye, umuntu wariye ikigori cya mayizori agira imbaraga, ibigori bya mayezori kubireba wabona ari byiza mu maso ukumva ushaka kubirya kandi abantu bahinga ibigori bya mayizori babona amafaranga.

Iyo wubatse ahantu ubusitani，ukahubakisha ibyuma ukabigira neza，umuntu akajya araza ari kunyuramo hasi，biba ari byiza. Iyo bikikijwe n'ibishyimbo by'umushogoro， umushogoro waho uba ari mwiza uryoshye， iyo wawutetse mu birarayi，ukumva bimeze neza cyane.

Ikigega ni cyiza cyane iyo ukibonye urishima cyane, ikigega iyo uhunitsemo imyaka iba ifite amahoro kuko ibona aho guhumekera bigatuma imara igihe kirekire, abubatsi b'ibigega babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu kigatera imbere.

Abagososi ni beza, iyo uri kugosora, umugore n'umugabo bari kugosora biba ari byiza cyane kuko bigaragara neza. abantu bose babibonye bakabyishimira bakabona ko hariho uburinganire. Abantu bose iyo bafite uburinganire, bagakora akazi kamwe kandi bose mu buryo bungana, biba ari byiza, bishimisha igihugu bigashimisha n'abaturage bagituye.

Ibiraro by'inka ni byiza iyo inka wazubakiye ikiraro, imvura ikagwa ntizinyagire biba byiza inka igatanga umusaruro, inka barazibaga bakabona inyama bagasagurira amasoko. Aborozi borora inka babaho neza, babona amata amata akavura indwara nyinshi zitandukanye ukagira n'ubuzima bwiza.

Inka ziduha amata, amata tukayagurisha tukabona amafaranga tukayakoresha mu buzima bwa buri munsi, akadufasha kwishyura minerivari, bikadufasha kubaho neza bikazamura n'iterambere ryacu, kandi inka turazibaga tukabona inyama tukabaho neza ubuzima bukagenda neza.

Ingurube ni nziza, iyo ingurube uyoroye neza ikagira ubuzima bwiza, itanga umusaruro ufatika, ikabyagura ibyana byinshi, ukabijyana ku isoko, ukabona amafaranga, ugateza imbere umuryango wawe, n'igihugu cyawe ukagiteza imbere.

Isake n'inkokokazi ni byiza. Iyo ufite in inkokokazi ufite n'isake ni byiza kuko isake ishonda inkokokazi igatera amagi, bigatuma haboneka n'iyindi mishwi inkoko zikaguteza imbere ukabona amafaranga ugateza imbere n'igihugu cyawe.

Inyama ni nziza, inyama ziraryoha cyane, iyo uriye inyama wumva unezerewe utekanye, umuntu wese wariye inyama, ab'afite ubuzima bwiza. abacuruzi bacuruzi inyama babona amafaranga bateza imbere imiryango yabo n'igihugu cyabo kigatera imbere, leta ikabona n'imisoro ikubakamo ibikorwa remezo byinshi bitandukanye.

Inka ni nziza iyo ufite inka urayikama ukabona amata ukayagaburira abana bagakura, bakabyibuha, bakagira ubuzima bwiza. Iyo woroye inka ubona amafaranga ubona ifumbire ugahinga ibirayi, ugahinga ibigori imyaka yawe ikaba nziza cyane.

Iyo ufite inyamaswa, inka, ukayipimisha, biba ari byiza cyane. Bituma umenya uko ihagaze, ukamenya n'uko imeze. Abaveterineri bapima inka, bituma babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo.

Inka ni nziza, iyo ufite inka unywa amata, ugateza imbere umuryango wawe n'Igihugu cyawe kigatera imbere. Abarozi b'inka bagira ubuzima bwiza kubera ko baba babonye amata. Inka barazibaga bakabona inyama, bakazigurisha bakabona amafaranga, bagatanga imisoro no kuri Leta.

Abaveterineri ,abaveterineri ni beza, abaveterineri batuma ibihingwa n'inyamaswa bigira ubuzima bwiza, iyo inyamaswa zifite abaveterineri nk'intama, cyangwa inka, ingurube n'izindi nyamaswa, hari abaveteni barazivura zigatuma zorokana zikaba nyinshi.

Abaveterineri ni beza iyo inka irwaye abaveterineri bakayivura ni byiza, bituma itanga umusaruro uhagije kandi umusaruro ufatika igihugu cyacu kigatera imbere, abaveterineri babona amafaranga bakishyurira abana babo amashuri.

Ingurube iyo iri konsa ibyana byayo ubona ari byiza cyane. Abana b'ingurube iyo bakuze batuma umuntu abona amafaranga ateza imbere umuryango we, igihugu cye kigatera imbere abandi benshi bakabona amafaranga bagateza imbere igihugu. Ingurube ni nziza umuntu kuyorora.

Umworozi bw'inkoko bwa kijyambere. Iyo woroye inkoko neza ,ubona amafaranga . Zitera amagi abantu bakayarya, bakagira ubuzima bwiza bigatuma batagwingira . Iyo umwana yariye igi amera neza, akagira ubwenge agatekereza neza, igihugu cyacu kigatera...

Aborozi ni beza. Iyo umuntu yoroye inka abona amafaranga agateza imbere igihugu cye, akabona amata. Inka barazibaga bakabona inyama bakazirya, bakagira ubuzima bwiza. Abantu borora inka babona amafaranga menshi bagateza imbere n'igihugu.

Inkoko za kizungu ni nziza, iyo woroye inkoko ya kizungu biba byiza cyane. Itanga inyama, igatanga umusaruro vuba kandi kare. Abantu borora inkoko za kizungu bagira ubuzima bwiza, kubera babonye inyama bakazirya. Amafaranga bagurishije mu nkoko za kizungu, barihiramo abana minerivari.

Inkwavu ni nziza , umworozi w'inkwavu abona amafaranga. Inkwavu barazibaga ,bakabona inyama bakarya bagahaza umuryango bagasagurira n'amasoko bakabona amafaranga yo kujyana kwiga abantu bakiga neza.

Korora inkoko ni byiza; inkoko zitanga amagi, zigatanga inyama, zigatanga ifumbire; abantu boroye inkoko bagira ubuzima bwiza, kubera baba bariye amagi bakarya n' inyama, umuntu uba uri korora inkoko abona amafaranga, atanga umusoro kuri leta.

Ingurube ni nziza, iyo woroye ingurube, ubona amafaranga, ingurube zirabyara, ibyana byayo bikabyara n'ibindi byana, ugakomeza kubona amafaranga, ukagira ubukire, ugateza imbere igihugu, ugateza imbere n'aho utuye, abana bawe bakiga neza, bakiga ahantu heza.

Ibiraro by'inka ni byiza. Iyo ufite inka ukubaka ikiraro biba byiza cyane, Inka iryama ahantu heza. Amazi avuye Aho inka yaganze agatemba akajya ahantu hamwe, bigatuma inka zitera imbere zikagira ubuzima bwiza, n'umworozi akabona amafaranga agatera imbere, igihugu...

Gukingira ihene ni byiza. Iyo ihene bayikingiye itanga umusaruro mwinshi. Ihene ikingiye ibona amafaranga ikagaburira uyitunze, ikagaburira n'umworozi, igateza imbere igihugu n'aho ubworozi bw'ihene bukorerwa bakabona amafaranga.

Imashini zituraga imishwi ni nziza. Iyo imishwi zorowe neza zigatanga inyama, abantu babaho neza bakagira ubuzima bwiza. Abantu bakora mu kugurisha imishwi babona amafaranga bakishyurira abana babo amafaranga y'ishuri, bagateza imbere Igihugu, igihugu kigatera imbere.

Inkima zikurura ba mukerarugendo tukabona amafaranga aturutse mu mahanga. Igihugu cyacu kigatera imbere abantu benshi bakabona akazi bagatunga imiryango yabo, imiryango yabo ikabaho neza igihugu cyacu kikagera kure.

Nyirabaraza ni nziza, Nyirabaraza ikurura ba mukerarugendo. Abantu bose babonye Nyirabaraza barishima cyane. Abakerarugendo baje kuzireba batanga amadovize ,zituma igihugu cyacu gitera imbere, n'imiryango yacu igatera imbere .Abakozi bakora ubukerarugendo babona amafaranga ateza imbere imiryango.

Kiri ku gashami ni cyiza, iyo uri kureba ikikona wumva unezerewe, abakerarugendo baza kureba ibikona bakadusigira amadovize, tukubakamo ibikorwa remezo, tukubakakaimihanda, tukubaka ibitaro, tukubaka amavuriro, abantu bakabaho neza bakagira n'ubuzima bwiza.

Inyoni zikurura ba Mukerarugendo ,iyo nyoni ari nziza cyane ifite amababara ukayireba, urayireba ukumva urishimye cyane, ba Mukerarugendo bakaza kuzisura bagatanga amadovize ,igihugu cyacu kigatera imbere, bakubakamo ibikorwaremezo imihanda, n'amavuriro, n'ibindi bitandukanye.

Inyamaswa ya nyirabaraza ni nziza cyane. Iyo inyamaswa yanyabaraza iri hamwe naho uri ukabona ukuntu ihagaze ifite n'umsatsi muremure wumva wishimye cyane, kuko ikurura ba mukerarugendo ikaduha amadovize tugatera imbere tukubaka ibibikorwa remezo byinshi bitandukanye.

Inkima ni nziza, iyo uri kureba inkima wumva wishimye, ukumva uranezerewe, inkima ikurura ba mukerarugendo, bakaza bakaduha amadovize, tukabona amafaranga, tugateza imbere imiryang yacu n'igihugu cyacu kigatera imbere, n'aho dutuye hagadatera imbere, n'abaturage bacu bagatera imbere.

Inyoni nziza, inyoni ikurura ba mukerarugendo, abantu bakora ubukerarugendo, bakora mu kwereka abakerarugendo, babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, n'abantu benshi babona akazi kubera ubukerarugendo, igihugu cyacu kigatera imbere.

Igikeri ni inyamaswa nziza igenda isimbagurika. Iyo ndi kureba igikeri kiri gusimbagurika numva nishimye cyane. Abazungu baza kureba igikeri bagatanga amafaranga bagatanga amadovize ,igihugu cyacu kigatera imbere n'inyamaswa muri rusange zikororoka.

Ikiigona ni cyiza gikurura ba mukerarugendo. Iyo umuntu yabonye kigona yumva anezerewe akishima. Ikigona iyo kije mu murima wawe kiri kurya cyangwa kiri kugonga, ubona ari byiza cyane bikagushimisha.

Inyoni ni nziza, iyo inyoni iri kujwigira, ikubyutsa kare, inyoni ikurura ba mukerarugendo, abantu bakora ubukerarugendo bakabona amafaranga, igihugu cyacu kigatera imbere, imiryango y'abantu bayobora abantu aho baje gusura, babona amafaranga bakishyurira abana babo amashuri.

Ingagi ni nziza, Ingagi zikurura ba mukerarugendo, Ingagi iyo urikuzireba wumva wishimye cyane, Ingagi zimeze nk'abantu, wumva ufite amatsiko kuzireba, iyo wayibonye wumva unezerewe kandi wishimye cyane, Ingagi zituma tubona amadovize n' abagaradi bakora mungagi bakabona amafaranga bateza imbere imiryango yabo.

Inkima zikurura bamukerarugendo tukabona amadovize, tukagira ubuzima bwiza tugatera imbere aho dutuye, igihugu cyacu kigatera imbere kandi igihugu cyacu kikamenyekana.

Inyoni ni nziza ikurura ba mukerarugendo tukabona amafaranga ,tukabona amadovize tugateza imbere igihugu, tukubaka imihanda, twubaka amashuri ,tukubaka amarerero n'ibitaro. Igihugu cyacu kigatera imbere. Ubuhahirane bukoroha kuko twabonye ibikorwaremezo.

Impala ni nziza, impala zikurura ba mukerarugendo, dushumbashyamba, dukurura ba mukerarugendo, umuntu wese ukabonye abona ari keza, bigatuma ba mukerarugendo batanga amafaranga, amadovize atuma abantu bagiye kubereka impala babona amafaranga.